Umuturage w'umupapa wambaye ipantaro y'umukara, wicaye hejuru y'ijerekani, waje ku ivomero rigezweho, akaba ari kwisekera rwose ubona ko yari yaje, kuvoma amazi yo gukoresha ibintu bigiye bitandukanye.

Inama irimo abantu b'ingeri zose bagiye batandukanye, abagore n'abagabo, abazungu n'abirabura, bicaye ku mameza bahawe amazi, bakaba bitabiriye inama yo kwiga ku bintu runaka bigiye bitandukanye, bifitiye abaturage akamaro.

Imodoka nini itwaye ama kontineri abiri arimo ibintu bifasha abaturage gukomeza kugira ubuzima bwiza, ndetse n'abaturage badafite ubushobozi bwabo bashaka kubafasha kugira nabo babashe kubaho neza nk'abandi.

Umwana n'umu papa bari gusuhuzanya bahana ikiganza n'abantu benshi cyane ku ruhande babakikije, baje kwirebera uwo mwana n'uwo mugabo ibyo barimo gukora.

Abagore bizihiwe bari kubyina umuco gakondo bita ku bibazo byabo byo mu mutwe bishima na bagenzi babo basa na bagenzi babo mu mirimo bifasha abantu kwirinda ko bagira ibibazo byo mu mutwe.

Umugabo wicaye ku ijerekani uri kwisekera, waje kuvomera kuvoma amazi, amazi akaba ari ikintu cyifashishwa cyane na buri umwe mu mibereho yacu ya buri munsi, aho amazi adufitiye akamaro kanini kandi kagiye gatandukanye.

Umumama uri kumwe n'abana batoya bavuye ku ishuri, akaba aabana bishimye nawe yishimye, bakaba bari gushishikarizwa kwishima no gukomeza kugira ubuzima bwiza bwabo bwa buri munsi.

Umwana uri mu bitaro uri kuvurwa indwara zitandukanye aho ari guterwa inshinge, bari kugerageza kureba ko umwana yasubirana ubuzima bwiza kandi akaba yamererwa neza indwara arwaye akaba yayikizwa akaba ari kwitabwaho mu buryo bwose bushoboka.

Ivomero rigezweho ryifashishwa mu kuzamura amazi mu butaka aho umwe ajya gupompa undi akaba yavoma, iri vomero rikaba ryubakwa ahantu haba hari amazi ari mu butaka bakaba bayazamurayo.

Abaturage bateraniye hamwe harimo abagore n'abagabo n'abana babo baje kwitabira inama yiga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, birimo uko ubuzima bwabo bwa buri munsi bwahinduka bakita ku mibereho yabo ya buri munsi birinda ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Abantu bateraniye mu nama yiga ku buryo ki warwanya ibibazo byugarije abantu bakunze kugira ibibazo byo mu mutwe, n'uburyo ki bakagirwa inama mu buryo buboroheye bakageho n'ubuvuzi bakaba babafasha kwivuza, icyo kibazo gikunze kugariza abantu.

Umwana uri kunywa amazi, ibi bikaba bifasha abana batoya gukura nta ndwara ziterwa no kubura amazi mu mubiri bafite babifashijwemo n'umuryango wabo UNICEF uzwiho kwita ku bana badafite kirengera.

Umugabo n'umugore bagiye kuvomera ku mavuriro agezweho ya kijyambere, aho ano mavuriro atanga amazi meza yifashishwa gukora amasuku ndetse akaba yananyobwa, kuko aba ari amazi meza agira ingaruka nziza ku buzima bwa buri munsi.

Inama yiga ku buryo bagomba guhagarika ibyorezo bigiye bitandukanye, harimo nk'icyorezo cyari cyateye igihugu cyacu cy' u Rwanda cya Marburg, akaba ari inama yari yateranye kugira ngo yige ku buryo bahagarika ikwirakwira ry'iki cyorezo.

Umwana uri kugaburirwa amata, amata akaba azwiho kurinda abana kuba bagira ubuzima bubi no kugwingira, amata ni ikinyobwa bakunze guha abana kugira ngo bibarinde izo ndwara zitandukanye zikunze kwibasira abana.

Abana bari kwitabwaho birinda ko bazagira imibereho myiza n'ubuzima bubi, harimo kuba bagwingira bakaba bari kuba amata, amata akaba yifashishwa mu kwirinda izo ndwara zitandukanye zikunze kwibasira abana bakiri bato.

Imiryango igiye itandukanye, ifite inshingano zigiye zitandukanye, ifasha abaturage kuba bagira ubuzima bwiza, imwe ikaba ifasha abana babuze ababyeyi babo, imiryango yabuze ibyo kujya, imiryango ikaba ikunze gufasha imiryango myinshi kwibeshaho.

Abagore babiri b'abayobozi bashinzwe kugira abantu inama z'uburyo ki bakita ku mibereho yabo ya buri munsi, uburyo ki bakoresha kugira ngo bite ku buzima bwabo bwa buri munsi.

Abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye bateraniye hamwe, kwiga ku bibazo binyuranye birimo n'umutekano w'abaturage n'imibereho yabo ya buri munsi, uburyo bakwiriye gufashwamo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Abana batatu bari koga mu ntoki ku ivomero rigezweho rya kijyambere, aho twese dukwiriye kwimakaza umuco wo gukaraba mu ntoki, hano utwana twishimye cyane turi guseka, turi koga mu ntoki.

Umwana uri gufungura kandagira ukarabe. Izi n'ubu zikaba zarategwagaho udukoresho tuzifasha kumanura amazi abantu bakoga muntoki kugira ngo birinde indwara z'umwanda zigiye zitandukanye zitegwa nogufata ku bintu byanduye ukaba wakwikora ku bice.

Abana n'abantu bakuru basabanye, abantu bakuru bakaba bari kugaburira abana babaha amata yo kunywa, amata akaba akunze gufasha abana kugira ubuzima bwiza, no kubarinda igwingira riterwa n'imirire mibi.

Abaganga babiri bari kuvura, umuturage wicaye ku ntebe y'umutuku, bakaba bari kumushyira agashinge mu kanwa kugira ngo bamupime, barebe ko nta ndwara y'icyorezo yaba yaranduye.

Abana bari ku mavomero bazanye ibikoresho bigiye bitandukanye, birimo indobo n'utupito bakaba bari koga mu ntoki, bakaba baje gutwara amazi muri ibyo bikoresho bayajyana mu ngo zabo aya mavomero akaba ari aya kijyambere akaba.

Abagabo n'abagore bateraniye mu nama yiga ku bibazo bigiye bitandukanye by'abaturage. Iyi akaba ari inama yabereye mu nyubako y'izabugenewe zifashishwa mu gukoranya abantu benshi kugira ngo baganire ku bibazo runaka bigiye bitandukanye.

Sale irimo abantu bagiye batandukanye barimo abagore n'abagabo, bari mu nama yiga ku bintu bigiye bitandukanye byafasha abaturage mu kwiteza imbere, no gukomeza kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ivomero rya kijyambere bapompa, iri vomero rikaba ryifashishwa mu kuzamura amazi mu butaka, ivomero rikaba ririho abana baje kwivomera amazi, kugira ngo babe bayifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi no mu mirimo igiye itandukanye.

Umwana uri ku mugezi uri koga amazi mu ntoki, akaba ari koga ku ivomero rya kijyambere akaba akikijwe n'ibiti byinshi cyane, iruhande rwe hakaba hari indobo y'ubururu yari yaje kuvomamo amazi.

Imigezi ibiri ya robine n'akana kaje kuvoma amazi mu gikombe yo kunywa, akaba ari uburyo bwo kongera imibereho myiza ku buzima bwacu bwa buri munsi aho kunywa amazi ari ikintu kiza buri wese agomba kwimakaza mu buzima bwe kugira ngo agire imibereho myiza.

Ifoto igizwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, harimwo urubyiruko n'abatari urubyiruko biga ku ngamba z'uburyo ki bakomeza gukora ubuganga neza, kandi kinyamwuga batabara ubuzima bw'abantu bugiye butandukanye.

Amasahane ari kugatana hejuru, ubu bukaba ari uburyo gakondo bwifashishwa n'abaturage batuye mu bice by'icyaro, kugira ngo babe bakoza amasahane babe bayanika yumuke haveho amazi, bityo babe bakwirinda uburwayi bugiye butandukanye buterwa n'umwanda.

Umuministire w'igihugu cy'u Rwanda uri kumwe n'umunyamabanga wasuye u Rwanda, akaba yamushyikirije ikirangantego cyanditseho gusura u Rwanda, iki kikaba cyifashishishwa mu gushishikariza abanyamahanga n'abantu bose babishaka kuba basura u Rwanda.

Umugore uri ahantu, hari abantu benshi uteruye umwana, ufite n'ifishi na mituweli mu ntoki, akaba ari ahantu hari abagore nabo bateruye abana, baje kubasuzumisha ngo barebe ko abana babo nta kibazo bafite.

Abana benshi cyane bari kunywera amazi ku ivomero rigezweho n'amazi meza maze akaba ari ikintu abana bakunze kunywa cyane kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza banirinda indwara zigiye zitandukanye ziterwa no kubura amazi mu.

Abaturage bishimye cyane kandi ubona ko bari mu bihe byiza by'umunezero, basuye abana babo ku ishuri cyane, ubona ko ari ibintu byiza kubona abaturage bishimye bafite ubuzima bwiza, ni ikigaragaza yuko kwishima ari ibintu bya mbere tuba dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Amabwiriza agaragaza uburyo iyo umuntu yakabaye yitwara kugira ngo yirinde ibibazo byo mu mutwe n'ibibazo by'indwara zigiye zitandukanye ziterwa n'imitekerereze ya muntu, aho hariho uko wakwirinda indwara zo mu mutwe n'uburyo ki warwanya ihungabana, uba waratewe n'ibintu bigiye bitandukanye.

Abantu benshi cyane barimo abagabo n'abagore, bicaye mu bice bibiri icy'iburyo n'icy'ibumoso, bakaba bicaye mu nzu irimo purafo y'umweru, bakaba bitabiriye inama yiga ku bintu runaka.

Abantu batandukanye bakorera ikigo gishinzwe kwita ku bana, badafite kirengera cyangwa se ubona bapfushije ababyeyi babo kugira ngo bakomeze kwitabwaho no kubonerwa ibikoresho bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi no kubishyirira amashuri.

Abagore n'abagabo bitabiriye inama b'abaforomokazi baje kwiga ku buryo bajya bafashamo abagore bagize ikibazo cyo gushaka kubyara bari nko mu rugo, ari nk'abaturanyi babo uburyo ki babafasha bakabitaho bityo bakaba babasha kubyara bitabagoye cyangwa se kwegereza abaturage imiti hafi.

Abaturage b'ingeri zigiye zitandukanye harimo abagore, abagabo n'urubyiruko, bateraniye hamwe mu kwiga ku bibazo runaka byugarije isi kugira ngo babe babishakira imyanzuro bibe byakemuka.

Inkingo n'inshinge bakunze gutera abantu, kugira ngo bibarinde indwara zigiye zitandukanye z'ibyorezo n'izo baha abarwaye bakaba babasha kuzikira mu buryo bwihuse kandi bwa vuba zitabahitanye.

Umwana uri kwimakaza isuku, aho ari koga mu ntoki kugira ngo yirinde mikorobe zaba zagiye mu biganza bye, bityo zikaba zabasha kumutera indwara zigiye zitandukanye, aho gukaraba mu ntoki ari umuco tugomba kwimakaza.

Umukobwa ufite amabasi abiri n'ijirekani irimo amazi, imyenda yanitse inyuma ye, bikaba biri kutwigisha ko twabasha kwiteganyiriza kandi tukita ku buzima bwacu bwo mu mutwe twirinda kwisiteresa no kurwara ihungabana.

Abantu babiri bicaye umwe w'umugabo undi w'umugore, umugabo ari kwandika ibyo uwo mumama aba ari kumubwira, akaba agaragaza ko ari kugira inama hagati y'abantu babiri bagiye batandukanye.

Umugabo n'umugore bari gufasha umwana w'umukobwa kuba yabasha kugenda, bityo bakaba bari kumufata ku bitugu kugirango abashe kuba nawe yabasha gutambuka akaba afite ibibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima.

Umumama ugeze mu zabukuru. Uteze ibitambaro, wambaye ibitenge, wishimye ubona ko ibibazo bye byo mu mutwe bimeze neza, arasa neza kandi nta kibazo n'ibyo mu mutwe we bimeze neza.

Kunamira Abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane akaba ari ku rwibutso, yazanye n'indabo kugira ngo afate mu mugongo ababuze ababo muri ibyo bihe bitari byoroshye.

Abantu abantu abantu bicaye mu cyumba kiberamo inama bateranye bari kwiga ku buryo ahazaza ha muntu haba heza kurusha uko hari ubu ngubu biga ku bibazo bikunze kwibasira abantu ku buzima bwabo bwo mu mutwe bakaba bari kwigishwa kandi bakaba bateze amatwi kugira ngo bafate imyanzuro.

Abagabo n'abagore bamwe bicaye abandi bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, mu gihe bari bari kwiga ku buryo bakiteza imbere ndetse bakomeza kugira n'ubuzima bwiza buzira ibibazo byo mu mutwe n'izindi ndwara zitandukanye.

Imbwiruhame y'umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, akaba yarayitanze yari igendanye n'uburyo ki abantu bagabanyije ibibazo byo mu mutwe, aho bagombaga kwirindwa indwara yo mu mutwe iri kwibasira abantu cyane.

Abasore n'inkumi n'abantu bakuru, bateraniye hamwe mu kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye byugarije abaturage, hafatwa ingamba z'uburyo ki, abaturage bagira imibereho myiza n'ubuzima bwiza.

Umuntu ufite ibibazo by'ihungabana byo mu mutwe, ufite mugenzi we uri kumuganiriza ngo barebe ko ibyo bibazo afite byo mu mutwe, baba babivura bikaba byakira, uyu muntu akaba arwaye agahinda gakabije gaterwa no kwigunga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Urubyiruko rugiye rutandukanye rwahuye n'umuntu mukuru wo kubigisha uko bagakwiriye kwitwara mu buzima busanzwe n'uburyo hari ibyo bakabaye birinda kugira ngo bagire ejo hazaza heza, birinda kugira ibibazo by'ubuzima bibi bigiye bitandukanye.

Adushishikariza kwita ku bintu bitandukanye, harimo uburwayi bwo mu mutwe, ubw'umubiri no kwigenga, by'uko dukwiye kwita ku mico yacu, imitekerereze yacu, tukabyitaho cyane ku buryo ubuzima bwacu bwa buri munsi bukomeza kuba bwiza cyane.

Umugabo usa nabi ufite ibibazo byo mu mutwe byo gusara, akaba yambaye ibintu byacikaguritse akaba ari kurya ibyo abonye byose. Akaba afite ibibazo byo mu mutwe, dukunze gushishikariza kwirinda kuba natwe twabasha kuba twaterwa n'iyo ndwara yo kugira ibibazo byo mu mutwe.

Ikigo cyifashishwa mu kuvura abantu bagize ihungabana, cyangwa bafite ibibazo byo mu mutwe bigiye binyuranye, kugira ngo babasubize ku murongo batekereze neza, kandi ubwonko bwabo bongere gukora neza ku murongo.

Abana basabanye bahuje urugwiro bari guseka, ubona ko bafite imibereho myiza kandi bafite uburere bwiza n'ibyishimo bitandukanye, hirindwa indwara zigiye zinyuranye baba badafite bitewe n'uko baba barariye neza.

Umuganga uri kwita ku muturage ufite ibibazo byo mu kanwa, akaba ari kumufata ibipimo byifashishwa kugira ngo asuzumwe arebe indwara umuturage yaba arwaye, bityo ikurikiranywe ibe yavurwa igakira.

Igishushanyo kigaragaza uburyo ki amenyo y'umuntu aba ameze mu kanwa, n'imiterere yayo, ukuntu aba ari mu kanwa k'umuntu, uburyo ki aba ari maremare mo, n'uburyo ki aba ayakoresha mo. Iki gishanyo kikaba gitangwa kwa muganga hagamijwe gusuzuma uburyo ki umuntu amenyo ameze mu kanwa.

Icyumba icyumba kirimo ibikoresho binyuranye byo kwa muganga byifashishwa mu buvuzi buteye imbere hafasha abaturage mu kuba bababavura indwara zigiye zitandukanye zibasira imibiri yabo icyo asuzu..

Umwana wagiye kwivuza amenyo, iyi ndwara y'amenyo ikaba ikwiye kwibasira abantu benshi abato n'abakuru, bikaba ari ngombwa ko umuntu aba ajya agomba kujya kwisuzumisha ngo arebe ko nta kibazo amenyo yiwe afite.

Abana baba bagiye kwa muganga kwisuzumisha mu kanwa, amenyo bareba nta kibazo afite, ni ibi dukeneye ubuzima bwacu bwa buri munsi, kumenya uko mu kanwa kacu hamerewe, ni ngombwa ko dutoza n'abana bacu tukabajyana kwa muganga bakajya kwisuzumisha, bakareba ko ntakibazo baba bafite mu kanwa.

Umudogiteri urimo kureba mu kanwa aho umurwayi kaba agiye kumukura amenyo yiwe, yaba yaragize ikibazo akaba ari kureba niba nta kibazo araza kumuteza cyangwa se ari ngombwa ko amenyo aza kuyakura.

Igishushanyo cy'uburyo ki amenyo y'umuntu aba ameze mu kanwa kifashishwamo kugira ngo habe bareba niba nta burwayi bw'amenyo waba ufite, ubwo ufite ubwo bube bwakumirwa arwaye bayakure bagushyiriremo andi.

Umugabo uri kumwe n'akana k'agahungu, bakaba bafite urudodo mu kanwa, bakaba bari gukina imikino igiye itandukanye, bakaba bafite ubuzima bwiza n'imibereho myiza, byaba mu buryo bw'inyuma ndetse no buryo bwo mu...

Umuntu wakuwe iryinyo n'umuntu uri gukura iryinyo, akaba afite amenyo yiwe, yari afite ikibazo akaba yari yagiye kuyikuza, bakaba bakoresheje ibyuma bigezweho mu buryo bwa kizungu bwo gukura amenyo.

Imashini yo kwa muganga yifashishwa mu buvuzi bwo kuvura amenyo kugirango ngo babe bakura nk'umuntu amenyo cyangwa se bamushyiriramo andi menyo mu gihe yaba yarayatakaje, ibikoresho bikaba byifashishwa mu kuvura abantu indwara z'amenyo.

Abantu benshi bagiye batandukanye, ingeri zigiye zitandukanye, urubyiruko, abantu bakuru. Bari bari kwiga ku buryo bakwiteza imbere n'uburyo ubuzima bwabo bwa buri munsi bwarushaho kuba bwiza ukurikije uko bwari bumeze, hirindwa indwara zigiye zitandukanye.

Umugabo uri guseka, akaba ari kwerekana uburyo ki amenyo yiwe yayabagishije, akaba asa neza kandi atamurya cyangwa ngo agire ibindi bibazo, abe yamuteza byo mu kanwa nko kuba hanuka cyangwa akagira ubundi buribwe ubwo ari bwo bwose.

Umusaza ugeze mu za bukuru uri kuvugwa indwara zigihe zitandukanye, harimo kumukoresha udusiporo ngororamubiri tumufasha kugira ngo amaboko ye akomeze gukora neza hirindwa ko yakomeza kuremara akaba yananirwa kugira ibintu byinshi noneho ashobora kuba yakikorera akaba ari kumwe n'umuforomokazi uri kumufasha kongera kwitoza uko yakoresha amaboko ye neza, bityo ubuzima bwe bukomeze bube bwiza kandi yirinde indwara za hato na hato.

Umusaza n'umukecuru bari gukina imikino igiye itandukanye, yifashishwa mu gutuma ubwonko bw'umuntu bukomeza gukora neza ndetse akanishima, n'umufasha we kugira ngo babashe kongera iminsi yo kubaho.

Umugabo n'umugore bari muri siporo bari kwisekera ubonako bafite ibibazo byiza byo mu mutwe ubona nta kibazo bafite bakora agasiporo, bari kwita kuburyo bw'imitekerereze yabo n'ubwonko bwabo uko bukwiriye gukoramo n'ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Umwana uri guha umupapa ibinini bimufasha kuba yakira indwara arwaye. Kugira ngo ejo hazaza he hazabe heza, hirindwa indwara arwaye kuba ashobora kuba yayikira akaba yagira ubuzima bwiza buzira umuze, yubahiriza amabwiriza abaganga bamuhaye y'uburyo ki afatamo imiti.

Umupapa wicaye mu kagare, uri kumwe n'umwana wiwe, bari gukina imikino itandukanye, ibi bikaba byifashishwa mu kugira ngo abapapa babe basabana n'abana babo, kandi babisanzureho babe babwira ibibazo begeranye, bahura nabyo.

Uumugabo ugeze mu za bukuru uri kwitabwaho akaba akeneye kwitabwaho cyane kugira ngo ubuzima bwe bukomeze buri ku murongo kandi bumeze neza akomeze kugira imbaraga zo kuba haribyo yabasha kwikorera.

Umusaza ugeze mu zabukuru uri kumwe n'umukecuru, uri kumwerekera uko akwiriye kuzajya afatamo imiti yiwe ya buri munsi, kugira ngo ibe yabasha kumugirira akamaro, uburwayi yaba afite aze kuba yabukira, kandi mu gihe gitoya.

Abantu babiri: umuganga n'wo arwaje, akaba ari kumugira inama z'uburyo yakurikirana ubuzima bwe bukamera neza amusobanurira uko yatwaramo ubuzima bwe kugira ngo ejo hazaza hiwe hazabe heza, yirinda indwara zigihe zitandukanye.

Uyu musaza ugeze mu za bukuru, ari kwandika ni ikigaragaza yuko kwiga bitajya bihagarara, umuntu arakomeza akiga, akiyungura ubuzima, ubumenyi no mu buzima busanzwe bwa buri munsi, kandi ko nta myaka umuntu agomba kugeraho kugira ngo arekere aho kwiga, kwiga ni ibintu bizahoraho.

Umusaza ugeze mu zabukuru uri kwitabwaho kugira ngo harebwe uburyo ki ubuzima bwe bwakomeza kuba bwiza afatira imiti ku gihe kandi ayinywera igihe kugira ngo iyo ndwara yaba arwaye abashe kuba yayivurwa ikaba yakira bitewe no gufata imiti ku gihe no kwitabwaho bya buri munsi bihoraho kandi bimugirira akamaro ku buzima bwiwe bwa buri munsi.

Umugore uri kumwe n'umuforomo uri kumuhereza ibinini amwitaho, ageze mu za bukuru akeneye kwitabwaho cyane, akanywera ibinini ku gihe ndetse agakomeza kwita ku buzima bwe bwa buri munsi yirinda kugira.

Umugabo uri kumwe n'umwana w'umuhungu mutoya, bakaba bafite amatasi abiri y'icyayi, bakaba bari mu nzu nziza bari gusoma igitabo, bakaba bari kungurana ubumenyi bugiye butandukanye, umusaza amwigisha ibyo azi n'umuhungu amwigisha ibyo azi.

Inama yari kwigiramo uburyo basinyana amasezerano yo kugeza imiti ku baturage mu buryo bworoshye, kandi buhendutse, bityo bituma abaturage bakomeza kugira ubuzima bwiza n'imibereho myiza.

Abagore n'abagabo n'abazungu, bateraniye mu nama yiga ku ibazo by'ibihugu bigiye bitandukanye, babishakira igisubizo kugira ngo hakomeze kongerwa imibereho myiza y'abaturage no gufatira ingamba bimwe mu bibazo biba byugarije abaturage.

Abantu benshi bagiye batandukanye barimo urubyiruko, abakobwa n'abahungu, bafite ibihembo byabo bigaragaza ko barangije ibyo bari barimo, izi ikaba ari inama yiga ku bintu bigiye bitandukanye bifitiye urubyiruko akamaro.

Ikirangantego cy'ikigo cyita ku buzima n'imibereho y'abaturage ya buri munsi mu gihugu cy'u Rwanda ikaba igaragaza uburyo bita ku baturage bakurikirana imibereho yabo ya buri munsi.

Inkingo zifashishwa mu kuvura icyorezo cy'ubushita bw'inkenda cyugarije isi, izi nkingo zikaba zifashishwa mu kugira ngo abantu birinde kuba bakwandura icyo cyorezo, cyo n'ikwirakwira ry'acyo ribe ryahagarara.

Abaturage baje kwivuza no kwisuzumisha, indwara z'igihe zitandukanye. Abaturage bakaba babijyanye abantu babifitiye ubushobozi n'ububasha babyigiye, kugira ngo basuzume barebe uko ubuzima bwabo bugiye buhagaze.

RBC kikaba ari ikigo cyo mu gihugu cy'u Rwanda cyifashishwa mu gukumira no kuvura abantu indwara zitandukanye, iki kigo kikaba aricyo gifite mu nshingano gukwirakwiza imiti ivura indwara zigiye zinyuranye no kubakira abaturage ibitaro mu buryo bwa hafi bubegereye.

Itangazo rigaragaza umunsi mpuzamahanga wagenewe kubungabunga ibidukikije, uyu munsi ukaba wizihizwa ku itariki makumyabiri n'esheshatu, uyu munsi ukaba ari uwagenewe kugira ngo abantu bite ku bimera bidukikije babyitaho kuko ari ingenzi cyane kuko bidufasha kubona umwuka mwiza duhumeka n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ingamba z'uburyo umuntu yagiramo ubuzima bwiza ndetse n'imbuga nkoranyambaga, yabasha gusura kugira ngo yite ku buzima bwe bwa buri munsi ndetse niba afite n'ikibazo abe yabagana, bamugire inama z'uburyo yakomeza kugira imibereho myiza ya buri munsi.

Abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo n'abagore bitabiriye inama yiga ku bintu runaka bigiye bitandukanye, bifitiye abaturage batuye Igihugu akamaro mu buryo bw'imibereho yabo ya buri munsi.

Amagambo agaragaza uburyo umuntu yakwirinda indwara zigiye zitandukanye kuburyo anagize n'ikibazo ashaka gusobanuza, uburyo ki yakwirinda izo ndwara, ibigo binyuranye yajya agana bikamufasha kumusobanurira uburyo ki yakirindamo indwara zinyuranye n'ingamba yabasha gufata.

Inama yari yateranye yiga ku buryo bashobora guhagarika icyorezo cya mabaga cyari cyugarije igihugu cy'u Rwanda, bibanda ku ngingo z'uburyo abaturage bagomba kukirinda kugira ngo cyere gusakara mu gihugu hose.

Itangazo rishishikariza abantu gufata urukingo rw'indwara ya Kovide cumi n'icyenda kugira ngo babashe kuyirinda, yere kuzabandura n'uburyo bakwiriye kuyirindamo mu buryo....

Ibikoresho byo kwa muganga birimo ibitanda n'amatara, n'ibyuma bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura abantu indwara zigiye zitandukanye, no kwita ku buzima bwabo bwa buri munsi.

Inzu n'intebe bigezweho bya kijyambere byifashishwa mu kuvura abarwaye indwara zigiye zitandukanye mu bihe bitandukanye, iyi nzu ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zinyuranye kugira ngo abantu bakomeze bamere neza.

Ibitanda byo kwa muganga n'amarido na supanete byifashishwa mu kwita ku barwayi bagizweho n'ibazo bigiye bitandukanye bakajyanwa kwa muganga kugira ngo babashe kwitabwaho neza kandi bakurikiranywe.

Inzu yifashishwa mu kwivuza ikaba ari ikigonderabuzima abaturage bagana kugirango babashe kwivuza ndetse no kubyara ku bagore baba batwite, ndetse n'abandi bagize ibibazo by'uburwayi butandukanye babashe kwivuza.

Intebe n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa kijyambere kugira ngo bavure abantu indwara neza kandi bikorwe mu buryo bw'isuku kandi bugezweho, ntazindi ndwara babashije kwanduriramo.

Umuturage uri guterwa inkingo, hirindwa ko yabasha kwandura indwara zigiye zitandukanye, banasuzuma umuvuduko w'amaraso ye uko atembera mu mubiri, ko yaba atarwaye umuvuduko bityo akurikiranywe abashe kuba yavugwa akire.

Inzu nziza zigezweho za kijyambere, ziteye imbere kandi zifasha abaturage kwihutisha iterambere no kugira ibikorwa remezo bigezweho kandi bifatika bitarabateza impanuka n'ibiza.

Inyubako yifashishwa n'abaturage baje kwivuza indwara zigiye zitandukanye abafite ibibazo by'ubuzima, baraza bakabavura bakabaha imiti itandukanye ibafasha mu buzima bwa bwa buri munsi, kugira ngo izo ndwara barwaye zibe zakira.

Inzu yifashishwa n'abatari bakeya mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo bivuze indwara zigiye zitandukanye, inzu nziza igezweho ya kijyambere ifite amatara meza n'imiryango myiza, kugira ngo bifashe ababagana, baje kwivuza gutaha babonye serivisi.

Mu bitaro aho umugabo aryamye n'umwana we ku ruhande bafite icyibafasha kongererwa imyuka n'amamashini abafashasha kuba yakwita ku buzima bwabo kugira ngo barebe ko bavurwa bakaba bakira.

Imashini zigiye zitandukanye ziri mu nyubako yabugenewe, zifashishwa kwa muganga kugira ngo hasuzumwe habe harebwa icyo umurwayi arwaye, bityo bibe byamufasha kuba yakira iyo ndwara yaba abaganye afite.

Abaganga babigenewe bari kwita ku murwayi, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, uyu muganga akaba ari kubaza umurwayi w'iwe ibibazo yaba arwaye kugira ngo babe bamufasha kumwitaho bakamuvura agakira.

Ibishashi byuzuyemo amaraso aba yatanzwe kugira ngo abantu bakoze impanuka bakabura amaraso baze kubona amaraso babongerera mu mubiri bitewe n'uko hari abantu baba batakoze impanuka kandi bafite amaraso yo kubaha ngo nabo bakire.

Abantu batatu abagore batatu bicaye baje kwivuza harimo n'uwize ubuganga urimo kubafasha gusuzuma uko umubiri wabo ukora bareba ko nta ndwara baba barwaye.

Amamashini yifashi, amamashini yifashishwa kwa muganga, bavura indwara zigiye zitandukanye, aho aya ma mashini yoroshya uburyo batabaramo ubuzima bw'abantu, buba buri mu kaga, bitewe n'izo ndwara baba barwaye, aya mamashini akaba yifashishwa mu kubavura.

Icyumba kirimo intebe n'igitanda n'amamashami atandukanye yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, mu kwita ku bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, kugira ngo ibyo bibazo bafite bishire, cyangwa se bikemuke neza mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Abantu bambaye agapfukamunwa n'ibitanda biryamye abarwayi bari kwivuza indwara zigiye zitandukanye, ikaba ariyo yifashishwa mu kuvura mo indwara zigiye zitandukanye abantu bakaba bahagana mu gihe bagize ikibazo.

Inzu bakirariramo abarwayi barwaye indwara zigiye zitandukanye kugira ngo babashe kubavura izo ndwara babe bagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, izi zo zikaba zifasha abantu bafite ibibazo by'uburwayi kugira ngo babe ba.

Amamashini n'ibitanda bigezweho byifashishwa havurwa indwara zigiye zitandukanye ziba zibasiriye. Izi mashini zikaba zoroshya mu buryo bwo kumenya indwara umuntu arwaye ndetse n'uburyo bayivuramo bikaba byakihuta bitewe n'uko izi mashini zihutisha ako kazi.

Inzu yifashishwa mu bikorwa by'ubuvuzi kuvura indwara zigiye zitandukanye zirimo; izo abagore baba batwite n'ibicurane n'izindi ndwara nyinshi cyane. Abantu bazirwaye bakaba bagana iyi nyubako kugira ngo babahe imiti, banabagira inama y'uburyo ki bakirinda izo ndwara.

Inyubako y'ikigo cy'igihugu gikomeye gishinzwe kurwanya indwara zigiye zitandukanye, no gukurikirana iyubahirizwa ry'ubuzima bw'abaturage b'igihugu kugira ngo ubashe kwitabwaho indwara abarwayi bazivurirwe ku gihe kandi serivisi zibasange hafi.

Abantu benshi b'ingeri ziri zitandukanye abari mu zabukuru n'abaganga bari kubitaho, barwaye baje kwivuza indwara zigiye zinyuranye bakaba bari kubavura babaha imiti yabafasha koroherwa no gukira izo ndwara barwaye.

Inzu yifashishwa mu kwita ku barwayi barwaye indwara zigiye zitandukanye ikaba irimo abaganga benshi banyuranye n'amamashami atandukanye yifashishwa mu kuvura abantu indwara zigiye zinyuranye.

Intebe zo kwa muganga n'amamashini agiye atandukanye yifashishwa mu kuvura abarwayi n'ibitanda bicaraho bimeze nk'intebe kugira ngo babe babasha kubitaho neza babavure n'amafunane agiye atandukanye baba bafite.

Inzu nini ifite amadarapo abiri imbere yayo, ikaba ifite n'umuryango munini w'igipangu binjiriramo, ikaba ari inzu yifashishwa mu mibereho y'abaturage ya buri munsi kugira ngo yorohereze abaturage kubona serivisi zigiye zitandukanye.

Imashini n'uburiri byifashishwa kwa muganga bavura abantu indwara zigiye zitandukanye, izi mashini zikaba zifasha kumenya icyo umuntu yaba arwaye mu buryo bworoshye ndetse bakaba bategura n'ahantu umuntu yaruhukira.

Iduka ricuruza imiti igiye itandukanye, yifashishwa n'abantu kugira ngo bivure indwara baba batewe n'ibihe, imiti ikaba ivura indwara zigiye zinyuranye, kandi ikaba yaregerejwe abaturage kugira ngo bayibonere hafi.

Imashini nini yo kwa muganga yifashishwa mu gusuzuma indwara runaka umuntu yaba arwaye, mu gihe yaje kwa muganga bakabura indwara, bamunyuzamo muri icyo cyuma kugira ngo barebe indwara uwo muntu yaba arwaye.

Inzu yifashishwa mu kubyaza abagore bageze mu gihe cyo kubyara, ikaba ari inzu nziza ubona ko ifite jaride imbere yayo, ikaba ifite ahantu abagore babyarira iyo inda zabo zigeze igihe cyo kubyara.

Inyubako yifashishwa mu kuvura abantu babagezweho n'ibibazo byo mu mutwe no kugira ihungabana rigiye ritandukanye no kuba bibasirwa no gukoreshwa ibiyobyabwenge cyane bikabababaho karande bityo bakaba ba bagabana kino kigo kikaba cyabafasha kwivura izo.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri bigiye bitandukanye, aho iki cyumba cyifashishwa n'abarwayi barwaye indwara zigiye zitandukanye, bakaba bahajyama kugira ngo babashe gukurikiranwa indwara baba barwaye yose bayivure ibe yakira.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda n'amamashini aho iki cyumbakijyamo abarwayi barwaye indwara zitandukanye bityo bakaba babasha kubitaho bakabakira izo ndwara baba barwaye bakaba basubira mu mibereho yabo ya buri munsi nta kibazo.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye binyuranye n'amamashini agiye atandukanye, yifashishwa mu kuvura abaturage, indwara zigiye zinyuranye, mu mibereho yacu ya buri munsi.

Abaturage bagiye batandukanye harimo abagore n'abagabo, baje ku bigo nderabuzima kwivuza indwara zigiye zitandukanye, bakaba bicaye ku bisima by'aho kuri izo nyubako, abandi bakaba begamye ku madirishya.

Inyubako inyubako yo kwa muganga yifashishwa mu kuvura abantu babantu b'aba bagize indwara zigiye zitandukanye aho ugize ikibazo cy'ubuzima agana bakaba babasha kumuvura ingwara zigiye zitandukanye yaba yagize.

Inyubako yabugenewe ifite isuku ihagije, yabugenewe mu kubika imiti igiye itandukanye no kwifashishwa mu rwego rw'ubuganga kugira ngo bite ku bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Inzu yifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye, aho iri ari ivuriro riba ryarigerejwe abaturage kugira ngo babe bakivuzaho indwara zigiye zinyuranye biboroheye kandi mu buryo buri hafi yabo, izi nyubako zikaba zinifashishwa habyazwa abagore baba batwite.

Ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya kanseri mu Rwanda zibasira abantu, indwara ya kanseri ikaba ikunze guhitana abantu benshi iki kigo kikaba gishinzwe gukumira izo ndwara za kanseri.

Abantu bicaye ku ntebe bategeze umurongo bategereje ko babakira bakaba babafasha kubakira muri serivisi baba baje gusaba, hari uri kubabaza ibibazo biba byabazanye kugira ngo babashe kumenya uko babasha kubakira, bakaba bicaye mu ntera zigiye zitandukanye birinda ko bakanduzanya indwara baba barwaye.

Inzu irimo amamashini agiye atandukanye yifashishwa mu gukora siporo zigiye zinyuranye harimo kwirukanka gusimbuka gukora siporo wicaye aya ma mashini akaba afasha abantu gukora izo siporo zose mu buryo buboroheye kandi bugiye gutandukana.

Igishushanyo cy'uburyo ki umuntu yagakwiriye kwitwara kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kuba bwiza, agira bimwe mu bintu yirinda kugira ngo bibe byamurinda kuba yagira ubuzima bubi, kandi bitari ngombwa binamurinde siteresi.

Imashini nini izwiho ku izina rya sikaneri, iyi mashini ikaba yifashishwa mu kureba indwara umuntu arwaye, ibe ari iyo mu magufa, ibe mu nda. Hasuzumwa neza ngo hamenye indwara umuntu arwaye mu gihe itabashije kuboneshwa amaso.

Umusore uri muri siporo uri gukora masaje ku ivi ryiwe kugira ngo arebe ko yakomeza kugira ubuzima bwiza buzira indwara n'imvune za hato na hato ziterwa no kudakora siporo.

Abana bagiye batandukanye abahungu n'abakobwa baje gukina imikino igiye itandukanye ibafasha mu kwishima, ukwishimisha no kugira ubuzima bwiza kubera gukora siporo ari ubuzima.

Umuntu wari kwitabwaho bamuzirikira akaguru. Aho yaba yagize ikibazo cy'imvune ku kaguru, kuba bari kumwitaho kugira ngo barebe yuko atagira ikibazo cyazamamo burundu kugenda bikazamunanira. Aba ari kwitabwaho na mugenzi we ubifitiye ubumenyi buhagije kuba yamupfuka.

Umuntu uri kwitaba telefoni n'ibikoresho bigezweho bya kijyambere bidufasha mu kuvura indwara zigiye zinyuranye dututegwa no kudakora siporo cyangwa gukora siporo nyinshi cyane zitari ngombwa.

Ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zinyuranye, ziterwa no kubura ibintu runaka bigiye bitandukanye mu mubiri wawe bityo, ino miti ikaba yagufasha kuba wakomeza kugira ubuzima bwiza kandi butarimo indwara.

Imashini ya kijyambere yifashishwa mu buvuzi bwo ku kuvura indwara zigiye zitandukanye, ziterwa no kubura ibintu runaka mu mubiri wawe, akaba ari imashini yakozwe kugira ngo hasuzumwa uburwayi bw'umuntu neza, kandi abe yabasha kwitabwaho neza.

Inkweto n'umupira byifashishwa mu gukina umukino w'amaguru ikaba ari izi nkweto bazambara igihe bagiye gukina uno mupira akaba n'umugozi wifashishwa mu gupima uko umutima utera.

Umuntu uryamye ku buriri ushungerewe n'abantu b'abasore, bari kumwitaho kugira ngo barebe ko yabasha gukira agasubira mu buzima bwiwe bwa buri munsi nta kibazo afite.

Umuntu wavunitse ugendera mu mbago n'undi ufite ballon akaba ari siporo nziza cyane ifasha abantu baba baragize imvune kuba bakongera bagakira izo mvune bakaba bakonngera bakagenda nta kibazo.

Umuntu urimo gukora siporo yo kugorora umubiri we kugira ngo akomeze kugira umubiri mwiza utekanye kandi awurinde indwara ziterwa no kudakora siporo za buri munsi.

Umuntu uri kunywa amazi ufite n'agaterefoni uri kwiyumvira indirimbo mbese ubona ko nta kibazo afite ari kwita ku buzima bwe kugira ngo ejo hazaza ubuzima bwe buzabe bumeze neza, anywa amazi anakora siporo kugira ngo yirinde indwara za hato na hato zishobora kwandura mu mubiri we.

Umuganga uvura abakinnyi bagezweho n'ibibazo bigiye bitandukanye akaba avura indwara zigiye zitandukanye, akaba yambaye amajire n'ibikoresho byose byifashisha kwa muganga basuzuma bareba ikibazo umuntu yaba yagize.

Akaguru kakozwe n'abaganga kugira ngo gafashe abantu bafite ikibazo cyo kugira imvune zigiye zitandukanye, bitewe n'imikino kugirango babashe kuba mu mugihe bavunitse bakambara bakamenyereza akaguru kabo karemano, kongera gusubira ku murongo.

Umusore wambaye imyenda y'umukara urimo gukora siporo yo kugorora umubiri wiwe, kugirango yirinde indwara za hato na hato ziterwa no kudakora siporo.

Igishushanyo kigaragaza amagufa y'umuntu ukuntu aba ameze mu mubiri, akaba ari igishushanyo uhabwa kwa muganga kugira ngo urebe uko amagufa yawe ahagaze, niba hari aho ufite ikibazo ube wabasha kuhivuza.

Umusore ugiye kunywa amazi, amazi akaba ari ikinyobwa tugombama kwimakaza, tunywa cyane kuko kifashishwa mu kurinda indwara zigiye zitandukanye, ndetse n'umubiri ukaba ukenera kino kinyobwa cyane, kugira ngo gifashe umubiri gukora neza.

Umuntu uri kunywa amazi. Umuntu wese umaze u gukora siporo, ni byiza ko anywa amazi menshi cyane kugira ngo umubiri w'iwe utazigera ubura amazi burundu, bityo akaba yarwara indwara zigiye zitandukanye zirimo n'impyiko iterwa no kubura amazi mu mubiri.

Umukobwa urimo gukora siporo ngororamubiri, aho ari kurambura umubiri we yirinda kuba yarwara umugongo n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, zitegwa no kudakora siporo ngororamubiri.

Amakarito n'amashashi n'amacupa birimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zinyuranye, iyi miti ikaba ifasha abantu bafite uburwayi bugiye bunyuranye, kuba bakira izo ndwara baba bafite, bityo ntizibe zabasha kuba zabahitana bagafata iyo miti.

Kunywa amazi ni ibintu bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi aho amazi ari ikintu gifasha umubiri cyane kumererwa neza tukanirinda n'indwara ziterwa no kubura amazi mu mubiri harimo nk'impyiko, cyane cyane kunywa amazi rero ni ibintu by'ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo turangije siporo biba ari ibintu by'ingenzi cyane kunywa amazi.

Umuntu usohoje siporo uri kunywera amazi, ni ibintu bishimishije cyane, ni ingenzi mu bu buzima, ko iyo usoje siporo ugomba kunywa amazi kugira ngo umubiri wawe ukomeze gukora neza, n'impyiko zawe zikomeze kumererwa neza, n'umubiri wose muri rusange.

Imashini yifashishwa mu gusikana umubiri w'umuntu harebwa indwara yaba arwaye itagaragarira amaso ariko ikaba ihagaragarira mu mashini, bityo iyo mashini irafasha cyane mu kumenya indwara umuntu arwaye mu gihe yabaye amayobera.

Ubuforomo ni umwuga ufasha abaturage cyane mu buryo bw'ubuzima n'imibereho ya buri munsi aho umuntu iyo arwaye abagana bakamufasha bakamwitaho ubuzima bwe bukamera neza, abagiye kubyara. Ni umwuga mwiza cyane kandi ufasha abaturage.

Igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu gukora siporo zigiye zitandukanye ngororamubiri kugira ngo umuntu agire umubiri ugororotse kandi uzira amavunane, bityo umubiri we ukore neza ibicu by'umubiri bye bikore neza.

Amazi akaba adufasha mu mibereho yacu ya buri munsi, akaba ari amazi umuntu anywa avuye muri siporo kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza n'imibereho myiza ye ya buri munsi, amaze akaba akenerwa mu umubiri cyane ku buryo unayabuze wapfa.

Ibikoresho bigezweho bya kijyambere, amamashini yifashishwa mu gusuzuma umubiri wawe kugira ngo barebe ko ukora neza kandi umeze neza, nta mvune, nta ndwara ufite, akaba ari ibikoresho by'amamashini agiye atandukanye, byifashishwa mu kureba niba ubuzima bw'umuntu nta kibazo ufite.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ikaba ifasha abantu kwivura indwara bashobora kurwara mu buzima bwabo bwa buri munsi, ikaba ikunze gukenerwa cyane mu mibereho ya buri muntu.

Amacupa agiye atandukanye, arimo iyo miti yakozwe mu bimera karemano, yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zinyuranye, iyi miti ikaba itunganyirizwa mu nganda kugira ngo ibe yakoroha ku buryo ivugwamo abantu.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye duhura nazo buri munsi, ikaba ifunze mu macupa agiye atandukanye kugira ngo yorohere abantu kuyabika, banayarinde kuba iyo miti yakwangirika.

Imiti ya kijyambere imwe ifunze mu mashashi indi modoka, imiti ikaba idufasha kugira ubuzima bwiza no kwivura zimwe mu ndwara tuba twarwaye mu bihe bigiye binyuranye, iyi miti ikaba yifashishwa na buri umwe wese ushobora kuba yagize ikibazo cy'uburwayi bugiye bunyuranye akaba yayinywa akaba yakira.

Umuturage urimo ucuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo n'ibiribwa byo guteka mu rugo akaba ari gucuruza kugira ngo abantu bize kuborohera kugura ibyo kurya ndetse na we bize kumufasha kugira amafaranga yo kumufasha mu kugura ibindi bintu akenera bi

Ikarito y'imiti ifunzemo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ziterwa n'ibintu bigiye binyuranye. Iyi miti ikaba ikozwe mu miti gakondo.

Ibibabi by'imiti twifashisha dukora imiti gakondo idufasha kwivuza indwara zigiye zinyuranye, ibibabi bikaba bifasha mu gukora imiti gakondo igiye itandukanye, ikaba yatuvura indwara zigiye zinyuranye ku buryo dukomeza kugira ubuzima bwiza no gukoramo imiti igiye itandukanye.

Indobo irimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ziterwa n'ibintu bigiye binyuranye iyi miti ikaba yifashishwa n'abantu kugira ngo bivure indwara zigiye zinyuranye.

Ibimera karemano byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, bidufasha mu kuba twakora ibintu bigiye bitandukanye, birimo nk'imiti idufasha kwivura indwara zigiye zitandukanye, zitwugariza mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibimera bigiye bitandukanye baba banitse, ibindi bakabihonda kugira ngo bibe byagirira akamaro abantu batuye Isi, babe babikoramo nk'imiti igihe itandukanye, kugira ngo ize kuvura indwara zigiye zinyuranye abantu baba barwaye bityo bakomeze kuba babaho.

Ubuvuzi gakondo mu Rwanda nabwo ni bwiza, kuvurisha imiti gakondo kuko nayo irafasha, iba ari nayo bakunze gukuramo n'imiti ya kizungu, ariko bakoresheje ibyatsi bagakoramo ya miti twita iya kizungu.

Icupa rifunzemo imiti ryifashishwa mu mibereho ya buri munsi mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, rikaba icupa ry'umweru ririho ibirangantego byayo n'uko yakwifashishwa n'umuntu uyiguze.

Ibimera karemano byifashishwa mu gukora imiti ya kizungu igiye itandukanye ivura indwara zigiye zinyuranye, bityo ibi bimera bikaba bifitiye akamaro gakomeye cyane ku buzima bwa buri muntu.

Ibibabi by'ikimera karemano cyifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, harimwo nk'ikinya bifashisha batera abantu kugira ngo babe babaga batari kumva. Iki kimera kikaba kizwiho gukorwamo imiti myinshi cyane igirira akamaro mu buzima bwacu bwa buri mu...

Icupa ririmo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zinyuranye zibasira ubuzima bwa muntu, iyi miti ikaba ivura izo ndwara bityo abantu bakaba bayikira bakongera bakagira ubuzima bwiza.

Amacupa yuzuyemo imiti igiye itandukanye, idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kwivura indwara zigiye zinyuranye, iz'uruhu, iz'umutima, impyiko, ibiheri, indwara zigiye zitandukanye ivura twifashishije imiti yacu gakondo, bakaba barayishyize mu macupa kugira ngo byorohere abantu kuyitwara no kuyibika n'uburyo birinda ko yajyamo ama emfekisiyo agiye atandukanye.

Icupa ririmo ibinini byayakozwe mu bimera karemano, aho ibi binini byifashishwa havurwa indwara zigiye zinyuranye z'ubwonko. Ibi binini bikaba bihabwa abantu bafite ibibazo ku bwonko kugira ngo bibe byabafasha bivuze bakire.

Ibibabi byifashishwa mu gukora imiti runaka igiye itandukanye aho ibi bibabi byifashishwa hakorwa imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, ibi bibabi bikaba biri ku biti ababisoroma bakaba babikoramo imiti ishobora kuvura indwara zigiye zinyuranye bakayitunganyiriza mu nganda bikavamo byagirira abantu akamaro.

Ishyamba ririmo ibimera bigiye bitandukanye, harimo n'ibyifashishwa mu gukora imiti igiye inyuranye, ibi bimera bikaba byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, tubikoramo imiti ituvura indwara zinyuranye.

Imiti igiye itandukanye n'ubwoko bw'amababi agiye atandukanye, bwifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara zigiye zinyuranye. Iyi miti ikaba ifasha abantu bafite ibibazo by'uburwayi kugira ngo babe bakivura, babashe kumererwa neza.

Iki ni kimwe mu bimera byifashishwa mu kugura imiti igiye itandukanye, ivamo akamaro gakomeye cyane ku ndwara zo kurwanya indwara zigiye zitandukanye, ikimera kikaba cyifashishwa cyane kuba iyo miti igwanya izo ndwara inazivura kugira ngo aba bazirwaye babashe gukira.

Ibibabi biri ku mashami y'ibiti, ibi bibabi bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo, aho yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zinyuranye, harimo iz'uruhu n'iz'imbere n'iz'inyuma, ku buryo nyine ibibabi ari ibintu by'ingenzi cyane ku muryango nyarwanda no mu isi muri rusange, mu gukora imiti igiye itandukanye yo kuvura indwara zigiye zinyuranye.

Isoko ryitabiriwe n'abantu benshi, ririmo ibiribwa n'ibinyobwa bigiye bitandukanye, aho harimo n'imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo n'ibiribwa abantu barya bakaba babasha gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibinini byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye turwara mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibi binini bikaba bivura indwara zinyuranye abantu bakunze kurwara, bakaba babasha kuba bazikira.

Abagabo n'abagore baje gusura umurima uhinzemo ibihingwa byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ivamo uburyo bwo gukoramo ibinini bigiye binyuranye byifashishwa bavura indwara zigiye zitandukanye.

Ibitunguru n'indimu bikaba bikunze kwifashishwa cyane n'abantu benshi bivura indwara zigiye zinyuranye, zirimo izo kurwara giripe, kurwara izindi ndwara zigiye zitandukanye, ibi bimera bikaba byifashishwa cyane kugira ngo hirindwe izo ndwara ndetse n'izo barwaye babe bazikira mu gihe cyihuse.

Imiti itandukanye imwe ifunze mu mashashi indi ifunze mu macupa ikaba ivura indwara zitandukanye ikaba ari imiti gakondo iba yarakozwe mu byatsi bigiye bitandukanye, ikaba ivura uburwayi bugiye bunyuranye.

Iki kimera cyifashishwa kugwa imiti igihe itandukanye ivura indwara zigiye zinyuranye zibasira ubuzima bwa buri muntu, ibimera bikaba bihingwa cyane kugira ngo habashe gukorwa iyo miti igiye itandukanye.

Ibiti bitatu biri mu gikombe byifashishwa mu gukora imiti idufasha kuvura indwara zigiye zinyuranye zituma tutabasha kubaho neza, bikaba byifashishwa mu kugira ngo abantu babone ibintu bivura indwara baba batewe n'ubuzima.

Indabo zifashishwa mu gukora imiti runaka ivura indwara zigiye zitandukanye, ibimera bikaba bihingwa cyane kugira ngo bizafashe kuvamo imiti igiye itandukanye.

Imiti igiye itandukanye iri mu macupa agiye atandukanye no mu rugero rugiye rutandukanye ivura indwara runaka zige zitandukanye ziterwa n'imibereho yacu ya buri munsi, iyi miti ikaba ivura izo ndwara bityo abantu bakabakomeza bakagira ubuzima bwiza.

Amashashi, udukarito n'imbuto zinyuranye harimo inanasi n'imyembe n'indabo byifashisha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za buri munsi bigatuma umuntu agira ubuzima bwiza gusa.

Igishushanyo cy'ipapayi bakasemo kabiri. Uru rubuto rukaba rukunze kuribwa cyane muri Afurika, aho rukunze kuribwa bitewe nuko rugira intungamubiri nyinshi cyane. Rukaba rukunze kugira utubuto twarwo two mo imbere, dukunze kugira akamaro kuko twongerera abantu ubuzima bwiza, n'imitekerereze n'imbaraga, bikaba byiza. Uru rubuto ni rwiza cyane, ku abantu bakunze kururya.

Amacupa arimo imiti ya kijyambere yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanyekanya zibasira ubuzima bwa muntu, iyi miti ikaba yifashishwa n'umuntu uba yagize uburwayi bugiye bunyuranye, akaba yayifata akaba yabasha gukira iyo

Icupa ririmo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye iri cupa rikaba ririmo ubuki ,ubuki bukaba buzwiho kuvura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye abantu bafite zimwe muri izo ndwara bakunze kubuhekenya bakaba bazikira.

Imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo indwara z'uruhu n'izindi zigiye zitandukanye, ikaba ifunze mu macupa agiye atandukanye, biyirinda kuba yakwangirika n'abayikoresha bakabona uko bayibika neza.

Ibibabi runaka byifashishwa mu gukora imiti itandukanye gakondo idufasha kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo ise yo mu mubiri, inyuma ndetse n'imbere. Hakaba hari ibibabi biri ku mashami bikaba biteye mu murima aho babisarura bakaba babikoramo imiti igihe itandukanye.

Ikiganza gifashe ku ibabi ry'igiti ibabi ryifashishwa mu buryo bugiye butandukanye, harimo gukora imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zinyuranye turwara mu buzima bwacu bwa buri munsi, kikaba ari igiti kiriho ibibabi byinshi cyane.

Imiti itandukanye iri mu macupa agiye atandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara ya amibe ikunze kuzengereza abantu bagiye batandukanye, iyi imiti ikaba yifashishwa mu kuba babavura iyo ndwara.

Icupa ry'umutuku ririmo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo muri iryo cupa imiti ya gakondo ivura indwara zigiye zinyuranye yatera umubiri wa muntu buri munsi uko bwije n'uko bukeye.

Imirama igiye itandukanye, aho bayifata bakayihinga ikaba yakura, ikaba yavamo ibimera binini cyane byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, ivamo ibinini bivura indwara zigiye zinyuranye.

Ibimera bigiye bitandukanye harimo ibimera by'ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ivura indwara nyinshi zigiye zinyuranye, iyi miti bakaba bayitunganya kugira ngo ibashe kugirira abarwayi akamaro.

Amacu amacupa arimo imiti inyuranye ifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, zibasiraraho ubuzima bwacu bwa buri munsi. Iyi miti ikaba idufasha mu ku kuvura izo ndwara bityo tukaba twakomeza kugira ubuzima bwiza kandi butarimo indwara.